Ahantu bigaragara ko bacuruza harimo amavuta menshi y'ubuto harimo n'amakaroni n'ibikapu bigaragaza ko bakoremo ubucuruzi.

Icyumba kirimo igitanda gishashe kigaragara uruhande rumwe, harimanitse hejuru ya supaneti y'umweru hari n'urugi rukinze hateretsemo akameza gateretseho ibintu hagaragara n'undi muryango udafunze.

Sale isakaye hejuru, uyubakiye uruhande rumwe, irimo ameza menshi ateguyeho ibitambaro by'umutuku, agiye akikijwe n'intebe z'umweru.

Inzu nini irimo amavaze, irimo intebe za diva, irimo amayesikariye azamuka bigaragara ko ifite indi hejuru, ifite n'igisenge kiri kugaragara bigaragara ko aho binjirira nta parafo irimo.

Icyumba kirimo ibitanda bibiri, bishashe neza, buri gitanda kiriho imisego ibiri.